Guhinga mu gishanga, uhahinga neza ukamenya ahantu hazatembera amazi ukahazamura ubutaka ukabugira neza, imyaka izamuka imeze neza ukumva nta kibazo ufite kubera ko wahinze neza, uba utegereje umusaruro wawe nta kibazo ugira.

Uvomerera igihingwa kikera gifite imbaraga, kigatanga umusaruro, iyo cyabonye amazi kirashora kikagira umusaruro mwinshi cyane nta kibazo.

Intebe z'ibisika za kinyarwanda, ubona ari nziza, ubona zimeze neza, ukabona ziforumwe neza, kuyireba ukabona itandukanye n'intebe zindi dusanzwe tubona mbese.

Ibi biribwa biraryoha, iyo muntu yabikawushije, akabishyira mu mavuta, ubundi akabikaranga, abirisha nk'umuceri, akabirisha n'uturayi, biba bitoshye cyane.

Amafi aba meza, iyo atetse agira intungamubiri, agira ibintu byiza mu mubiri, amafi aba meza agira isosi, iyo wayariye aba afite n' umuhore, amafi aba meza, aba aryoshye.

Ifi iraryoha, iyo bayokeje neza, bakayisiga ikirungo, bakayisiga agasenda, iba iryoshye bagashiraho n'urunyanya, iba iryoshye cyane weya rwose wumva ifite icyanga.

Izisambaza iyo wazirobye ukazikura mu mazi, ubu uzishira ahantu zikanyuramo akayaga, zigacamo akayaga ubona bibaye neza.

Aya mafunguro ni meza araryoshe, asaneza, ari ku isahani nziza, ameze neza. Aya kuyarya aba aryoshe, ntakibazo kuyarya.

Isambaza ziraryoha. Urazifata ukazikawusha mu mavuta, zamara gushya neza, ukazikuramo. Umuguzi iyo aje kuzigura azigura yishimye. Iyo uziguze zikawushije ushaka uhita uzirya ako kanya, cyangwa ukazikorera agasosi ukazirisha ibindi bintu, nicyo cyiza cy'isambaza.

Amafi aba meza, araryoha, agatera intungamubiri, kandi amafi yororerwa mu mazi, gusa ntabwo wayororera ahandi hatarimo, amazi, amafi iyo uyariye, agwa umuntu neza.

Ifi ni inyamaswa iba mu mazi gusa kera bacaga umugani ngo:" Ibyo ifi yikora mu mazi ntabwo ari byo yikora mu mavuta". Ibyo bintu bakundaga kubivuga ari nk'umuntu wakoze nk'ibintu bidasobanutse niyo mpamvu bakundaga guca uwo mugani.

Amajeri nimeza araryoha, iyotetse mu igitoki aryoha kurushaho, njyewe ndanayakunda, wayariye niwayavaho wayagerakiranyije n'agatoki abaryoshye.

Ibihingwa byo kuvangavanga ntabwo byera neza, uhinga nk’ikintu kimwe cyangwa ibintu bibiri bihanye umwanya byera neza, byisanzuye.

Intusi iyo wagiye urazikorera zizamukaga heza zikazamuka zishishe, zigendaga zihanya umwanyayana nazo kugira ngo zishibuke, ugenda urazikora ugukuramo ibitari byiza izindi zikagenda zimeze neza, kubera ko zihanye umwanya zirashisha igiti kikazamuka kigororotse neza.

Ibiti by'isombe byera ahantu hose, nta hantu byanga nta n'ikintu bibangamira waba ari umurima w'ibishyimbo, waba ari urutoki, isombe nta kintu ibangamira nigiti cyiza cy'ingandurabutaka, na cyo kivamo imishingiriro, nacyo ntacyo kibangamira.

Ibiti by'intunsi, iyo biri gukura urabikonera neza kikazamuka kigororotse, iyo wagiye uragikonera neza ugakuraho ibitabi, kizamuka kimeze neza.

Amateka aba meza na yo araryoha. Aba mu bihingwa bitera imbaraga. Isombe nta kintu ibangamira, ibintu byose aho byaba biteye hose ntabwo isombe yabibangamira. N'amateke ni ibiryo byiza ugerekaho ibishyimbo ukabirya, ukumva biraryoshye.

Ni byiza guhinga ugahinga amaterasi, bituma bifata ubutaka ntibutembe, iyo habayeho igihe cy' imvura bwa butaka burakomera, imyaka ntitembe ariko iyo imvura iguye utarahinze amaterasi ubutaka buratemba, imyaka igatemba, ikintu cyiza ni uguhinga amaterasi ubutaka bugakomera.

Intusi ziba nziza iyo uziteye ukazitera zihanye umwanya, zikura neza, zizamuka neza zigororotse. Zivamo ibiti byo kubaza, zivamo n'inkwi, zivamo n'amakara. Intusi ni ibiti byiza cyane kubigira ni byiza.

Amashu aba meza iyo uyateranye ifumbire, ukayuhirira ku gihe, ukayatera umuti, agira umusaruro, amashu ni meza no mu banyeshuri uyagemuramo bakayarya, amashu agira umusaruro iyo wayitayeho.

Igiti cya avoka kivamo voka, turazirya, ibitoke nabyo byera ibitoki turabirya, kandi biraryoha, ibihingwa na byo ni byiza ntacyo bitwaye.

Utu dutunda twitwa imbuhu cyangwa amaperi. Iyo umuntu aturiye turaryoha, tuba duhiye, dusa n'umuhondo. Na two n'intungamubiri ni twiza. turaryohaga

Imbuto z'ibinyomoro ziba nziza, kuko zongera amaraso mu mubiri, zigatuma umererwa neza, n'iyo kwa muganga warwaye, bagutegeka kurya ibintu by'imbuto, n'ibinyomoro byongera amaraso.

Ibishyimbo biba byiza iyo wabiteye ukabiterana ifumbire ukabishingirira birazamuka bikaguha umusaruro. Birashobora ukabona ko ibyo bishyimbo bimeze neza iyo wahaye ibiti birebire uba wiringiye kuzabona umusaruro uhagije.

Iyo uvuye gusarura imyaka yawe, usarura wishimye, ukayijyana ku isoko, ukayigurisha, ukuramo amafaranga, ukayakoresha ibintu byaguteza imbere. Nubutaha, iyo ugiye guhinga, uhinga n'ubundi ufite ibyishimo, kubera ko uba ufite icyo wakuyemo.

Voka ziba nziza, iz'imbangurire zo ziba nziza kurushaho ziba ziryoshe. Voka yaba ikuze iba iryoshye urayitara igashya ukayirya cyangwa se barazijyana no mu masoko bakazikoramo ibindi bintu, bazikoramo amavuta. Voka ifite ibintu byinshi imara n'icyo cyiza cya voka, tugomba kuzihinga tukanazikunda.

Ibi birungo biba byiza, iyo ubitetse mu biryo biraryoha, biryoshya ibiryo, ukumva biraryoshe n'uwo ubigaburiye akumva biraryoshye. Bino birungo biryoshya ibiryo cyane.

Gusarura ibigori byumye bituma bitaba, bitabora ntibinambe, bikuma bifite ubuziranenge bimeze neza nicyo cyiza cyo gusarura ibigori byumye.

Iyo uhinga wambaye bote, ntabwo ari nkuhinga yambaye ibirenge, kuko uwo muntu wambaye bote aba ari kumva yisanzuye, yisagaguye, ntabwo ari nk'uri guhinga afite ibirenge.

Gutera umuti imyaka iba myiza igakura neza, iba yabonye imiti, niba ari ahantu huma ukayicucira ikabona amazi , igakura imeze neza itohagiye nk'iri mu gishanga. Iyo myaka ikura imeze neza.

Ibirayi bya Kinigi biba byiza, biba binini iyo wabishyizeho ifumbire ukabihinga ukabireka ,ukabikuza bigakura bikagera amezi atatu, ane, byera neza, biba bifite uruhu rwiza ntibikoboka iyo byeze ubikuriye igihe. Ibyo birayi biraryoha cyane.

Igihaza kiba cyiza, iyo ukiriye wumva umeze neza ukirya nta kibazo ufite, ukumva kiri kumanuka ntabwo cyakuniga ni ikintu cyiza kiryoha igihaza ni cyiza.

Amaterasi arinda isuri atuma butaka bufata, iyo haje nk'amazi ubutaka bukomeza kuba aho, nta kibazo bwagira waraciye amatarasi.

Gutoranya imbuto, ukayitera imeze neza itanga umusaruro. Uba watoranyijemo ibipfu ugatoranyamo ibibore, bya bindi bizima wasigaje ukabitera, biguha umusaruro bikera neza, ntabwo byuma nta n'ubwo bipfa.

Ibisheke biba byiza mu buzima, bigira isukari mu mubiri, kandi ikindi cyiza cy'ibisheke, babikamuramo n'isukari bakabikoramo isukari isanzwe yo kunywa mu gikoma, cyangwa bakayishira mu mata, havamo ibintu byinshi mu bisheke. Ibisheke kubihinga ni byiza ni ingirakamaro.

Uhinga soya zaba ari nziza ukumvu uranezerewe, ukazifotora ukaba wakwerekana ukuntu umusaruro wawe umeze gutya. Iyo uhinze wizeye ibihingwa byawe wumva unezerewe kuberako uba warabishyoyemo amafaranga, bikagenda bikaba neza bikabyibuha bikaguha umusaruro.

Ibirayi biba byiza, iyo ari binini, biba bifite amafufu, bifite ubujyatama biba biryoshye. Ibirayi byateranwe ifumbire bigakurikiranwa, ukabihingira ku gihe, bikabona imvura, bikabona n'ifumbire byose, biba byiza, biba binini birashora bikaba byiza. igihingwa cy'i birayi kiba kiza

Iyo wahinze kijyambere ukuramo umusaruro ntabwo uba warabicucitse, bizamuka bimeze neza ugakuramo umusaruro mwiza, kuberako wahinze kijyambere.

Amateke araryoha cyane cyane iyo bayokeje. Cyangwa niyo atetse araryoha, ariko iyo ari ayo mu ziko aryoha kurushaho. Amateke ni meza.

Ibi bigori ni byiza ikigori uri kubona ko ari ikigori kigaragara, ibi bigori biba byiza biraryoha ibi bisigaje igihe gito bikaba byeze bikaba ari ibyo gucibwa karibwa.

Inka ziba nziza, umuntu arazikama, agakumamo amata, zitanga n'ifumbire, umuntu agafumbira imyaka, inka ziba nziza rwose mu rugo, n'iyo uri kuyireba ubona ari nziza, ukizihirwa n'uko uri kuyireba.

Amapera araryoha. Iyo umuntu ayariye yumva mu kanwa hagagutse, amapera ni meza, agira intungamubiri mu mubiri, amapera wayariye wumva umeze neza, nta n'ubwo ahenda, ni igihingwa kitagize icyo gitwaye, iyo giteye no ku rugo kirera.

Iyo umuntu afite itungo mu rugo, aragenda agatekereza ko yasize itungo, akarishakira ibyatsi, ubwo ukabona umuntu afite ibyatsi ntumenye ibyo ari byo, aba ari itungo abijyaniye.

Umuhinzi wese uhinga wabigize umwuga, bimugirira akamaro. Kuko iyo ahinze neza abona umusaruro, akabaho neza nta kibazo aba afite.

imyembe ziraryoha, iyo uzihinze wirinda kuzitera amabuye. Iyo bahora barayitera amabuye, irakomereka, ugasanga igihu cy'inyuma nto kimeze neza. Ariko imyembe na yo iraryoha, urawuhata wawogeje, ugakatira nko ku gasahani. Uwo mwembe uba uryoshye cyane.

Inka iba nziza, itanga umusaruro w'ifumbire, itanga amata, itanga inyama, itanga n'amafaranga. Korora inka uba witeganyirije. Uba witeguye umusaruro ku iyo nka ,uba uyitezeho ibintu byinshi, yinjiza ibintu byinshi, inka iba nziza.

Wotameloni iraryoha wumva nta nyota ufite, ufite icyaka ukayirya icyapa kirashira , wotameloni ni nziza ifite n'intungamubiri mu mubiri inararyoha.

Uhinga imyaka ukayitera umuti iyo hajemo ubusirimba ugatera umuti bwa busimba baragenda yamyaka ikongera ikaba neza, iyo ari ibigori byafashwe na shokonkwa utera umuti wababugenewe yashokonkwa igapfa bya bigori bikaba byiza bigatanga umusaruro.

Amateke aba meza, abamo ubwoko bwinshi. Hari amateke ya Bwayisi, hari amateke ya Mabungu, haba amateke y'ubwoko bwinshi, ariko yose araryoha, kandi ni mu bintu bitera imbaraga. Habaho n'imyumbati, nayo iraryoha, iyo igeretse ku bishyimbo. Ndabikunda cyane.

Iyo uhinze ibishyimbo cyangwa ubahinga soya, ugatera ibigori ku ruhande, birera byose bigatanga umusaruro, Kuko kimwe kiba gihanye umwanya n'ikindi byose birera.

Ibiti by' imyumbati bijyaho isombe, urazibetesha ukaziteka ugakuramo imyumbati, ukazikuramo ubugari byose ukabirya, igiti cy' umwumbati kiba cyiza mu bintu byose.

Igihingwa cyose iyo ukitaho, kirera kikaguha umusaruro, iyo wagihaye umwanya, nawe kiguha umusaruro mwiza ukishima, bitewe nuko wagikurikiranye neza.

Imyembe ni myiza, iraryoha. Kuyirya igira isukari, igatera akanyamuneza wayiriye nka deseri. Urawuhata ukawurya umaze kurya ibiryo.

Igihingwa iyo kikiri gitoya ukacyitaho, ukagikurikirana gitanga umusaruro, iyo wagihaye ibintu byose gikeneye imiti n' amafumbire uba wizeye umusaruro uzabona mu gihe kiri imbere.

Biba byiza iyo abaturage bumviye abayobozi, niba ari ibiti bagomba gufata by'indumburabutaka bakabifata bakajya kubitera mu mirima, biba byiza iyo abaturage n'abayobozi bunganiranye ibyo bemeje bakabikora, icyo kintu kiba cyiza.

Amagi aba meza, Atera imbaraga nayo, arinda indwara mu mubiri. Amagi aba meza, uyagaburiye nk'umwana wagwingiye, agira ubuzima bwiza bugakomeza.

Imyembe iraryoha urayihata ukayikatira ku gasahani, ukayirya iba iryoshe iba ifite amazi, ifite icyanga, imyembe iraryoha nta kibazo iba ifite.

Amajeri araryo iyo atetse mu gatoki .Biraryoha wumva biryoshe guteka ,amajeri ukayateka mu birayi mu biryo bya kinyarwanda ,wumva ari byiza biba biryoshe biba binashimishije.

Ibirayi biba byiza, biraryoha iyo wabihinze ukabireka bikera neza, bigakura, bigakurira mu butaka. Biba biryoshye, biba bifite amafu. Ibirayi bya Kinigi byo biraryoha kurusha, iyo byeze neza, warabifumbiye, ukabiha ifumbire, ukabireka bikera. Biba biryoshye cyane.

Ibihaza biraryoha. Wariye ibihaza ukabishyiraho ibishyimbo, ukabigerekeranya watsimbye ibishyimbo, biraryoha cyane. N'umuntu ubiriye bimugwa neza aba ari intungamubiri.

Ibijumba babikoramo amabiswi. N'iyo ubiriye wababiririshije imboga, biraryoha, bitera imbaraga, ibijumba nabyo ni byiza, ni ingenzi mu buzima, biraryoha.

Imiteja iraryoha, urayisusura, ukayikaranga, ugasuka ku gaceri. Wumva biryoshye, biraryoha mbesi .

Umuhinzi wabigize umwuga, akunda gukoresha ifumbire y’imborera. Ararihingisha imyaka ye, ikaza imeze neza. Imyaka ye ikura imeze neza, ukabona iraratoshye, iba imeze neza, igatanga n’umusaruro.

Imbuto ziraryoha iyo umuntu aziriye agira ubuzima bwiza, warya ibinyomoro ukagira amaraso mu mubiri, na maronje aba meza mu mubiri, n'indimu ziba nziza mu mubiri. Iyo ubiriye wumva umeze neza, wumva ubuzima bwawe bugiye neza.

Ifumbire riba ryiza iyo urikoresheje mu buryo bwo guhinga, cyangwa se kugira ngo ugire ifumbire ryiza cyangwa ryinshi, ni uko uba warunze ahantu hamwe, ukarirundarunda nibyo byiza.

Ibigori biba byiza iyo ubiteye, ukabitera ku muronko, ukabitera bihanye imyanya, biba byiza bitanga umusaruro, ikigori kiba gihetse bibiri, kigaheka bitatu, kubera ko bihanye umwanya, bitanga umusaruro.

Imboga zibaga nziza iyo ziteranye ifumbire, kandi nazo zigeraga ingemwe urazijyana. ukazigemura, ukazisha kuzitera ahandi yari nyinshi iyo ukazikuraho zigahana imyanya, bituma zera neza zikabyibuha zikabyara imboga nyinshi, imboga nazo ziba nziza.

Imyumbati iba myiza, iraryoha haba imyumbati irimo imiribwa, hakaba n'imyumbati bakoramo ubugari, iyo yose iba itandukanye, habaho ibiti by'isombe n'ibiti by'imyumbati biba bitandukanye, ariko ibiti by'isombe n'iby'imyumbati biba bijya gusa, ariko byose ni imyumbati.

Ingurube zibaa nziza, zitanga umusaruro iyo wazitayeho, ukaziha igiheri, ukazigaburira neza, ukazoza, ingurube zitanga umusaruro mu gihe gitoya kandi kihuse.

Ibirayi iyo wabiteranye ifumbire, ugashyiramo amase, ugashyiramo n'imvaruganda, byera bifite umusaruro, bimeze neza, byarashoye cyane.

Ibishyimbo bigufi ubihinga ku murongo, ukabihinga bigahana umwanya, ibyo bishyimbo ukabibagara hakiri kare, bitari byazana ibyatsi. Ibyo bishyimbo birashora, bihera hasi bifite imishogi, bitanga umusaruro cyane.

Insenda ziba nziza, iyo uzihinze ukabikora nk'umwuga, nazo zirakuzamura. Hari insenda za piripiri ziba ari umuhondo, hari n'izindi nsenda ziba ari iz'umutuku. Izo zose ni ibintu wakora ukabihinga bikaguteza imbere, iyo byeze urabisarura ukabijyana ku isoko ukabona amafaranga.

Ingano ziba nziza iyo uzihinganye ifumbire ukazikurikirana. Zigira amahundo manini, zigira umusaruro mwinshi, iyo zigize ikibazo uzitera umuti, ukazikurikirana iyo wazikurikiranye neza, zitanga umusaruro mwinshi zikaba nyinshi, ukumva urishimye bitewe n'uko wazihinze neza.

Ibigori biba byiza, urabyotsa, ukabetesha ukabinywamo igikoma, cyangwa ukabibetesha ukabiryamo n'umutsima, ibigori bibaga byiza.

Inyanya zitanga umusaruro iyo wazitayeho ukazikurikirana zitanga umusaruro. Uzitera umuti, ukazuhira, ukazisasira, mu gihe gitoya uba uri gusoroma, ukaba uri gukora no ku mafaranga.

Guhinga ahantu mu misozi, bahinga ahantu bakahashira amatarasi, guhinga muri abantu benshi biba byiza, muhinga mufite morari, mugahinga mwishimye, mubona n'umusaruro, mubona n'umubyizi, iyo mwahinze muri abantu benshi muhinga neza.

Indimu iba nziza ivura inkorora, indimu iba nziza uyikoresha mu mazi ukayateka, amazi ukayishyiramo ukayanwa. Indimu ituma ukora rejime, indimu iba nziza mu bintu byinshi.

Guhinga ibirayi biba byiza iyo wabihinze ukaba ushiramo ifumbire, ukabishiraho abarinzi, birera nta basambo babyononye, ukura ibirayi byawe ukabona n' umusaruro ugasagurira n' isoko ukagemura nicyo cyiza cyo guhinga ibirayi.

Amabuye aba meza kuyubakisha, akora fondasiyo y’inzu, uyatabisha inzu, uyakoresha ibintu byinshi. Udafite amabuye, ntabwo wakubaka inzu ngo ibe ikomeye. Ni cyo cyiza cy’amabuye, uyubakisha ibintu byinshi, uyakoresha muri fose. Amabuye na yo ni meza, aba akenewe.

Soya uyivanga mu biryo wayibetesheje, urayibetesha ukayivanga mu biryo, ukajya uraminjiramo agafu cyangwa ukayishyira no mu gikoma, ukanywa biraryoha.

Ibishyimbo biba byiza, iyo wabiteranye ifumbire, ukabitera neza, birashora bikagira umusaruro, iyo wabifumbiye bigira umusaruro mwinshi, bigakura neza, biba bitohagiye bimeze neza.

Ibihwagari bivamo amavuta ayo mavuta umuntu arayatekesha, ayo mavuta aba ari meza afite ubuziranenge. Bayanyuza mu ruganda rukayayungurura akavamo ameze neza, niyo mpamvu igihwagari kiba kiza.

Ingano ziba nziza iyo uzihinze ntozivuna, urazihinga ntabwo zibara urazireka, zikazerara ugasarura ntabwongera kuri gurasubiramo, ingano ku zinka ntabwo zivuna rwose ziba zigoranye, ni yo mpamvu igihu ngo cgano ku kiba ari cyiza.

Imiteja iba myiza cyane, hari imiteja iba ari icyatsi cyane, igira vitamini, igira isosi, igira icryanga. Hari n'indi iba itari icyatsi cyane. Nayo iraryoha, iyo iba ari iya kizungu. Ariko yose iba ziryoshye kuyirya wumva ari byiza cyane.

Ingano ziba nziza. Bazitekamo igikwanga cyangwa bakazitekamo imbada bakunda kwita imikati. Ingano uzitekamo igikoma, ingano uzitekamo umutsima. Ingano zibamo ibintu byinshi kandi zigira n'intungamubiri. Ndazikunda.

Imeteja iraryoha, urayifata ukadususura, ukatuvunaguza, ubundi ukadukaranga Uduteja turaryoha, tugira n'intutungamubiri, tugira n'intungamubiri mu buzima, imiteja iba myiza, uyirisha ibiryo byose, ibyo aribyo byose wabirisha, ukumva biryoshye

Ibishyimbo biba byiza bigira imyunyu ngugu mu mubiri, ibishyimbo ku birya ni byiza ibishyimbo wabiriye bikugwa neza, iyi mbuto ni na nziza.

Ubuhunikiro buba bwiza, ushyiramo imyaka yawe, ikaba neza, ikuma, ntibore, yuma neza, bigatanga umusaruro, kubera ko biba biri mu buhunikiro, bihura n'izuba, bigahura n'akayaga, biba neza.

Igihingwa cyose uhinze, ugomba kugihinga ntucyegeranye bigahana umwanya, iyo bihanye umwanya byera neza bigashisha, bigatanga umusaruro, kubera ko utabigize agacucike bikuraga neza, bikabyibuha, bikazamuka bimeze neza.

M'ubunyobwa iyo wabuhinze neza ukabushyiraramo ifumbire, ukabuhinga igihe cyiza nabwo burasho bukera umusaruro ugaragara kuko nawe uba warabwitayeho. Ugeraho nawe bweze ukishima ugashimishwa n'ibyavuye mu byo wahinze.

Iyo imifuka uyitondetse irimo imyaka, uzitondeka neza, ukazishira ku murongo, uzibara zitakururuhije, kandi ikindi iyo zitondetse neza. Uba wizeye ko itahirima, kubera ko uba wayitondetse imeze neza, wumva nawe aho uri unyuzwe.

Soya uyihinga washyizeho ifumbire, ugashyiraho, ukayuhira, ukayishyiraho ibitaka neza. Iyo soya izamuka neza, igashora, igatanga umusaruro kubera ko uba wayikurikiranye neza.

Ibihingwa by'impungure biba byiza, kubitoranya biba biri kugaragara neza. Ubikuramo ibipfira ugakuramo ibihore, ukabigosora ukabona bya bigori bibaye byiza. Umuguzi ujye kubigura abigura yishimira kubona bimeze neza.

Ubunyobwa burashora iyo wabushizemo ifumbire, buragenda bugashora bugashisha bugatanga umusaruro, kubera kuba warashizemo ifumbire, ukabuhinga neza ukabukurikirana, buguha umusaruro nawe ukishima.

Igihaza kugitera utera inzuzi, cyangwa ugatera umutwe w'uruyuzi, uwo mutwe urafata, kikagenda kiri kuranda, kikazera ibihaza, igihaza ku gitera ntabwo ari ibintu bigoye, no kubona imbuto ntibiba bigoye, imbuto ziva mu nzuzi.

Ibishyimbo biraryoha, soya uzibetesheje nazo ziraryoha mu biryo, ugashira mu gakoma, mu ifu y'agakoma ukanywa , ibi byose ni intungamubiri bitera n'imbaraga.

Depo iba ari nziza ushira ibintu byawe byose, imifuka ukazishiramo ukazirunda ahantu hamwe, waba ugiye no kuranguza ugashiramo abantu bakazikorera bakajya barajya kuzipakira mu modoka, ikiza cya depo ibintu byose uba wabishizemo, wabitondetse ahantu hamwe ku buryo no kubibara ubara neza ukamenya umubare w'ibintu ubitse.

Iyo ugiye gutera imbuto yawe, urayitoranya kugira uyitere nta bipfira birimo, uyitere izazane umusaruro umeze neza kubera ko wayikuyemo ibipfu.

Iyo uhunika mu nzu nkiyi y'ubuhunikiro, uba wizeye ko umusaruro wawe utekanye, umeze neza ,nta cyawuhungabanya, ntacyo waba.

Mu muco Nyarwanda habagaho imitiba ukayisakarira, warangizaho ukajya urasarura imyaka yawe ukayishyiramo, ukazayikuramo imeze neza ntabwo yanyagirwaga wayikuragamo ukabonaho umusaruro kubera ko yabaga itarafurikanse.

Ubunyobwa iyo wabuhinze, burera ukabusarura. Ubujyana ahabugenewe, barabutonora cyangwa waba ushaka ibyihuse, ukabusekura mu isekuru ya kinyarwanda, bituma ubona ubunyobwa. Kandi ubunyobwa turabukunda cyane, buraribwa mu biryo, akenshi turabukunda.

Soya zikaranze ziba nziza uzishira mu ifu y' igikoma igahumura, ikaryoha kandi icyiza cyayo iyo wayikaranze uyishira mu biryo agafu kayo bikaryoha icyiza cyayo, soya noneho uyishyira mu ifu y' igikoma kigahumura nicyo cyiza c' ifu ya soya ikaranze.

Soya iba nziza, urayanika ikuma, ikuma neza, iyo yumye neza urayibetesha, ugashyira mu biryo utetse, cyangwa ukayishyira mu ifu y'igikoma ukanywa. Igira intungamubiri, soya iba nziza.

Uri umucuruzi uratandika ibintu byawe ukabishyira ahagaragara , kugira ngo uje kugura abone ibyo agiye kugura ibyo aribyo niba ari ibigori by'umweru, cyangwa ibya gipesi ,cyangwa ibya mayizori, cyangwa ingano, cyangwa ibishyimbo, urabigaragaza akareba ibyo aribyo akabigura ari kubireba abyishimiye.

Intama n'itungo ryiza riba ryiza ritanga umusaruro, ritanga ifumbire. Iyo urifite murugo uba ufite amafaranga, ntiwahura n'ikibazo ngo unanirwe kucyikuramo urarigurisha ugakemure ikibazo. Riguha n'ifumbire ntacyo ritaguha. Iyo ufite itungo mu rugo rigufi riba ryiza cyane.

Inkoko ni nziza zazitanga umusaruro, zitera amagi tukayarya, cyangwa se tukagurisha tugakemuza ibibazo byacu, bitewe n'ikibazo uba ufite, zitanga n'ifumbire, inkoko ni nziza.

Aya amatungo asa neza, yarishije ubwatsi bwiza, burimo urubingo, aya amatungo asa neza. Ntacyo atwaye, ni meza.

Veterineri akorag akazi ke neza iyo yabyigiye, akabihrerwa ubumenyi, akabihugurirwa akora akazi ke neza nibajye gutera nk'amatungongo abagomba gupima akamenya uwagomba kuyitera akurikije nuko iyo nka inganaga, nta kibazo rwose abaveteni b'abagaboheza.

Inkoko ni nziza zitanga umusaruro, zitera amagi iyo zigaburiye neza ukaziha amazi zikanywa, zitera amagi na zo zigatanga umusaruro, iyo wazihaye ubwatsi bwose bukenewe.

Inka iyo yarwaye, uhamagara gaveterineri akayireba, yabona uburwayi ifite akayiha umuti, bitewe n'uburwayi iba afite, cyangwa se ukayikingiza bisanzwe itarwaye. Nayo iba ikeneye urukingo rwa vitamine. Nazo zigira inkingo zigomba gukingirwa.

Ingurube ibaga nziza iyo uyoroye ukayororera mu kiraro cyiza, ahantu usagaguye nabiguhaga umusaruro irabyibuhaga ikamera neza nawe wayirebe uko imvura yishimye, kubera ko ubagawayihise izahamuriza yisanzuye yo guhabwa umusaruro mwinshi ni ukumva urishimye.

Imishwi iba myiza iyo inkoko ya zaruye cyangwa imashini yaduturaze dukura neza iyo twabonye ibintu byose bisabwa.

Inkoko iba nziza. Iteraga amagi, ikayararira, ikazayaturaga hakazavamo udushwi, ikaturera tugakura, na two tukavamo izindi inkoko. Iyo utwitayeho neza ukaduha ibiheri, ukaduha amazi, utwo dushwi turakura, tukaguha umusaruro.

Abaveterineri baba beza, iyo inka igize ikibazo babatumaho bakaza bakayitera umuti, cyangwa bakayikingira bisanzwe atari uko irwaye. Inka na yo iba nziza, itanga umusaruro iyo wagiye uyitaho ukayiha ibinini biyigenewe na yo iba nziza.

Iyi n'inka iba nziza iyo ifite ikiraro, ikindi cya kabiri uyikorera manjwari ikajya irariramo ubwatsi, bwose iraburya ntihagire ubwatsi bupfa ubusa. Uyigaburira neza nayo ibirya neza bitari kujya bitakara. Icyco nicyo cyiza cyo kugaburira inka iri mu kiraro gifite manjwari.

Amatungo magufi aba meza, urayareba ukabona ni meza, iyo ari menshi ubona ari meza cyane kuyareba, iyo uyoroye atanga ifumbire, amaganga yazo uyasuka mu murima imyaka ikera neza, abyara na vuba ntabwo atinda, ni yo mpamvu amatungo magufi na yo aba meza.

Ingurube ni itungo riba ryiza ryagukura mu bukene byihuse iyo uriguze ari icyana urarigaburira ukagenda uryitaho mu minsi mike mu mezi make riba ryabyaye kandi ribyara ibyana byinshi. Ni ikintu gitanga umusaruro cyihuse cyakuvana mu bukene twitabire kuzorora.

Ubwoko bwi b'ibisimba, kugira ngo icyo gisimba utekukirakaza uragenda ntagukora hasi naho iyo ukoze hasi kiragusimbukira cyaguca kabiri, icyaba cyiza ugenda utarikubera iruhande, ukagenda utari gukebaguza ntukore hasi nacyo kigira ubwoba ubwo cyagusimbukira nicyo cyiza cyo kugenda utuje.

Iyi nyoni ni nziza ariko ino nta bwo zibayo. Niba ziba mumashyamba, ariko uyirebye ni nziza, irabyibushye, isa neza, iri kureba neza.

Agasimba k'akanyamasyo kagenda kari gukuruza inda, kagenda gahoro gahoro, kakagenda kitonze. Ni agasimba katihuta, kagenda kari gukuruza inda gusa gusa.

Inyoni zigira amabara menshi, zigira ubwoko bwazo, habamo inyamanza, hakabamo n'utunyoni tw'udufundi, hakabamo n'utundi tunyoni twitwa twa matene, tuba dutandukanye.

Iyi nyoni ifite amabara meza aboneye akeye, iyi nyoni ifite amabara wagira ngo ni nk'ay'idarapo, ifite umunwa wigondoye uyirebye irashimishije irasekeje, umunwa wayo wakwibaza ukuntu irya uwo munwa umanuye hasi.

Inyoni ziba nziza zibamo ubwoko bwinshi kuzireba wumvaga ari byiza, iyi ni inyoni yakurura na mukerarugendo, ifite ibara ryiza ku munwa ufite umuhondo n'umutuku ifite na masunzu ifite umurizo muremure, iyi nyoni ni nziza rwose kuyireba ibereye amaso.

Umusambi uba mwiza kuwureba ubona umeze neza, ufite ijosi rirerire, ufite ibintu ku mutwe, uri kuwureba urashimishije ufite n'amaguru maremare. Umusambi ni mwiza uteye neza.

Ibisimba by'ishyamba na byo ubonaga ari byiza, iyo ari byinshi ubona bifite amabara meza ukabona biri kugaragara neza, ibi bisimbana byo uri kubona ko ari byiza. Ibi ibisimba bishaka kugira ngo byororoke, ni byiza.

Inyoni yarika mu giti nicyo itahamo. Ni mwo ishyira icyari cyayo, kandi inyoni igira ubwenge, ikajya gushaka ibyo kurya, ikagaruka ikamenya aho yaritse, ikamenya n'aho irataha, inyoni na yo imenya ubwenge.

Inyoni ifite amabara nk'aya aba ashimishije ,ntabwo zikunda kuboneka, inyoni ifite aya mabara ni nziza kuyireba, uri kubona rwose ari byiza, aya mabara yayo araboneye.

Imbeba z'inyakigunda zirona, zirya ibishyimbo, zikabicamo kabiri. Umuntu iyo ari kubona imbeba ziri kumurira imyaka, ashaka itazi akarishyira mu murima, ni cyo cyiza cyo kumenya inyamaswa, ukazitandukanya.

Hari imisambi iba ari myiza imeze neza, ifite ibara ryiza ku buryo iri mu bintu byakurura ba mukerarugendo, iba imeze neza, ifite iminwa miremire, ifite amaguru maremare, ifite ibara ryiza ry'umweru rikeye, imisambi iba myiza kuyireba.

Umusarebanya ni agasimba gakunda kuba ku nzu, gakunda kugenda hejuru, nta bwo kaba mu mazi, kandi ntikaba no mu gihuru. Bikunda kuba ku mazu, niho bikunda kugendagenda nko mu mpande.

Inuma iba nziza iyo uri kuyireba ubona ibereye ukabona ifite amabara meza ukabona iri kureba neza inuma nta nubwo yona.

Nyirabaraza ni igisimba kiba gifite umunwa muremure, kirawucukuza kigira amaguru maremare, ariko iyo ugiteye ibuye gihita kiguruka ukabona kirigurukiye mu kirere, kiracukura, kigacukura. Nyirabaraza n'igisimba ubona kibereye kukireba.

Inkende iba mu giti, ni agasimba kaba gashimishije cyane, iyo ukarebye kaba kagiye kwitwara nk'umuntu, gakora n' ibintu bigiye kuba nk'iby'umuntu, ni agasimba kaba keza, iyo ukarebye kaba gashimishije cyane, kagira n'amabara meza, kukareba ubona ari byiza.

Ingagi iba nziza, izana amadovize. Abakerarugendo baza kuzireba, ziba zifite ubwiza, ubona zimeze neza. Ifashe agahinja kayo iragakikiye, n'ingagi ubona imeze neza, ifata n'umwana wayo neza.